Abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bari gupompa amazi aturuka munsi y'ubutaka kugira ngo uri kuvoma ayabone kandi bakeneye amazi meza yo gukoresha afite isuku, yatunganyijwe kugira ngo birinde indwara zikwirakwizwa no gukoresha amazi mabi yo mu migezi.

Abantu bateranye bavuye mu nama, bishimiye imyanzuro bafashe barimo baganira ku biganiro byerekeranye no kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite kugira ngo agire ubuzima bwiza, ku mubiri we n'ubw'umwana atwite, bose bagume bameze neza, azabyare umwana wujuje ibisabwa.

Umubyeyi wicaye ateruye umwana mu ntoki, imbere ye hari umuganga uri kumufasha kumuha umuti kugira ngo uwo mwana bamuvure amererwe neza, abashe kuba yakira vuba kandi akomeze akure neza afite imbaraga n'ubuzima bwiza.

Umubyeyi wicaye ateruye umwana mu ntoki yamujyanye kwa muganga kumuvuza, imbere ye wambaye ga ari gukora kuri uwo mwana kugira ngo yumve uko umubiri we uhagaze amenya uburyo amufasha n'umuvuzi amuha akeneye muri ako kanya.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako itangirwamo ubuvuzi, kugira ngo bafashe abaturage baturiye aho ngaho, kwivuza mu buryo buboroheye, kandi bubegereye, bitabasabye gukora urugendo rurerure, cyangwa ngo hagire abarembera mu ngo zabo babuze aho kwivuriza.

Icyumba kinini gihagazemo umugabo imbere yica umugore yaje kwivuza ari kumubwira ibibazo afite, akabyandika mu mikayi kugira ngo amenye ko amufasha no komwitaho mu buryo bwizewe kandi vuba.

Umubyeyi wicayeha yajyanye umwana kwa muganga kumuvuza, imbere y'iwe hicaye umuganga ari kwita kuri uwo mwana umubyeyi yaje kuvuza, amusuzuma ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze. Ibyo bisubizo abona nyuma yo kumusuzuma bimuhe imyanzuro ari bufate y'ukuntu ari bunyimiteho.

Abantu bahagaze bafite icyapa cyanditseho Unicef, bambaye imipira isa, bavuye mu mahugurwa yo kwiga kwita ku bana kugira ngo babafashe gukomeza kugira ubuzima bwiza mu mikurire yabo, babitaho mu bintu byose.

Abantu bicaye bari mu nama, bicaye ku meza bakoze uruziga, bari kuganira ku bintu bitandukanye byerekeranye n'ubuzima kugira ngo batange ibitekerezo, kandi babiganireho babyumvikaneho, kuburyo buri wese aba afiteho ubumenyi bungana n'ubwa mugenzi we.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cyagenewe gukorerwamo inama, bicaye bacecetse batuje, imbere yabo hateretse impapuro, amacupa y'amazi, bari kuganira ku biganiro byerekeranye n'ubuzima, kugira ngo bose bumvikane neza kandi babashe kubisobanukira.

Abagore bateraniye ahantu hamwe, bicaye ku ntebe ku murongo bakurikiranye, imbere yabo hiciwe umuganga uri kubakurikirana abavura, abasuzuma, arimo agenda abashyira igipimo ku kuboko kugira ngo apime umuvuduko w'amaraso ukuntu umeze mu mubiri wabo, amenye uko abitaho n'ubufasha babaha.

Umwana uri kuvoma amazi ku mugezi utemba kugira ngo ayajyane mu rugo baze kuyakoresha kandi aya mazi ni mabi, ashobora kubatera indwara zitandukanye bitewe n'udukoko turi muri ayo mazi kuko adatunganyijwe, adafite isuku yizewe.

Ku babyeyi bafite abana babo babajyanye kubapimisha ibiro kugira ngo barebe uko bahagaze, nimba bafite imirire myiza cyangwa mimba bafite imirire mibi, babona uko bakomeza kubitaho mu buryo bworoshye kandi busobanutse.

Abantu bateraniye mu cyumba kinini, bari mu nama, bari kwiga ku ngingo zerekeranye n'ubuzima, mu buryo bashobora gukomeza kwita ku baturage batuye mu bihugu byabo, kubona ubuvuzi bugezweho, kandi bwizewe, mu gihe gito kitarambiranye.

Abana bahagaze ku kigega, gitunganyirizwamo amazi yo kunywa, yizewe kandi afite isuku kugira ngo birinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda waturuka mu kutanywa amazi asukuye.

Ahantu hanini hateguwe kugira ngo hajye hahurizwa amazi, abashe kuba yatunganywa, havanwemo imyanda n'udukoko twose dushobora gutera indwara kugira ngo abaturage babone amazi meza yo gukoresha yizewe mu ngo zabo nta kibazo.

Umwana uhagaze wambaye agapira k'umutuku, ari kuri robine ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo akure umwanda ku ntoki ze, yirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda mu gihe yaba afashe ifunguro atakarabye intoki, bikaba byamutera indwara zitandukanye.

Abantu benshi bateraniye ku iriba rigezweho, ritanga amazi meza asukuye, bose baje gushaka amazi yizewe abafite isuku, bajya gukoresha mu ngo zabo kugira ngo birinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda uturutse mu gukoresha amazi mabi.

Ahantu hahuriye abaturage benshi, hari n'abaganga baje kwegera abaturage kugira ngo babone ubuvuzi bwiza kandi bwizewe, bitabasabye gukora ingendo ndende bajya kwivuza ahubwo babubone hafi yabo bitabavunnye.

Ahantu hanini hatunganyijwe kugira ngo hajye hahurizwa amazi bayakorere isuku, bavanemo imyanda n'udukoko dushobora gukwirakwiza indwara kugira ngo abaturage babone amazi yo gukoresha meza, yizewe kandi yujuje ubuziranenge.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba bari mu nama, bicaye ku meza imwe ndende, imbere yabo bafite amatelefoni n'impapuro, hateretse amacupa y'amazi, bari kuganira ku biganiro byerekeranye n'ubuzima kugira ngo bose basangire ibitekerezo, bababashe kubyumvikanaho, ku buryo bworoshye kandi busobanutse.

Ahantu hateraniye abantu benshi bari mu nama, bose bacecetse batuje batezega amatwi, umuganga ubahagaze imbere ufite kaya mu ntoki n'indangururamajwi, ari kubagezaho ijambo kugira ngo ufite ikibazo abe yabaza cyangwa inama cyangwa inyunganizi, ayitange bose bamwumva.

Umwana wambaye inifomo z'ishuri, yagiye ku kigega cyagenewe gushyirwamo amazi meza yo gukoresha, abantu banywa kugira ngo birinde indwara zikwirakwizwa no gukoresha amazi mabi adatunganyijwe arimo umwanda.

Umugabo uhagaze iruhande rwe hahagaze n'umugore bafite umupira mu ntoki, wanditseho vist Rwanda kugira ngo bamamaze kandi bakangurire abantu kuza gusura Igihugu cy'u Rwanda kuko gifite ibyiza byinshi kandi kikaba gikeneye aya madovize yinjizwa na ba mukerarugendo.

Umubyeyi wicaye ateruye umwana mu ntoki, imbere ye hahagaze umuganga ufite agakombe mu ntoki karimo umuti, ari gufasha uwo mubyeyi guha uwo mwana umuti kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwe, akomeze gukura neza kandi umubiri we ukura neza ufite imbaraga.

Umuntu wagiye kwa muganga kwivuza, bari kumutera urushinge ku kuboko, kugira ngo bamu bamuhe urukingo, rwongere abasirikare b'umubiri, rubongerere imbaraga no kuba bahangana n'icyorezo cyamwinjirira mu mubiri.

Abantu bateraniye mu cyumba kinini bicaye kumeza imwe nini, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi bafite n'impapuro bari kuganira ku ngingo zitandukanye zerekeranye n'ubuzima, kugira ngo babashe gufata imyanzuro imwe bose bayumvikanyeho.

Imeza iteretse, ibikarito bigiye bifite amabara atandukanye, kandi muri buri gikarito hagiye harimo umuti, kandi kuri buri gikarito handitseho amagambo asobanura izina ry'uwo muti uri muri icyo gikarito ndetse n'uko ukoreshwa, kugira ngo ugiye kuwugura abashe kuwutandukanya n'indi.

Abana bahagaze bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune kugira ngo bakure imyanda ku ntoki zabo, bakomeze kwirinda indwara zikwirakwizwa n'umwanda uturutse mu kudakaraba intoki bitewe n'udukoko tuba twafasheho, ugashobora kuba wafatata ifunguro tugahita tujya mu mubiri mu buryo bworoshye.

Abana bahagaze, bishimye bari guseka, bafite ubuzima bwiza bose bambaye imipira isa y'ubururu, iba ifite ikirangantego cya UNICEF kugira ngo uwo muryango ukomeze kubitaho babone ubuzima bwiza, kandi ukomeze no kwiga mu buryo buboroheye, kandi neza ntakibazo.

Abantu bateraniye ahantu henshi kwa muganga, bagiye kwivuza indwara zitandukanye kugira ngo abaganga babakire babafashe kubavura mu buryo bworoshye kandi bwizewe bitabasabye kusiragira bajya kwivuza ahantu henshi.

Icyumba cyo kwa muganga, bifashisha mu gihe bari kubaga umurwayi, kirimo ibikoresho bigezweho, harimo imashini, giteraniyemo abaganga benshi kugira ngo uwo murwayi bari kubaga, bamwiteho neza abashe kuba yakira.

Umugabo uhagaze kuri robine yagiye kuvoma amazi, afite ijerekani mu ntoki, kugira ngo ayajyane mu rugo iwabo, abone amazi meza asukuye yo gukoresha yirinda indwara zikwirakwizwa no gukoresha amazi mabi, atujuje ubuziranenge.

Abantu bateraniye mu cyumba bari mu nama, bacecetse, batuje, imbere yabo hari umugore uri kubagezaho ijambo, bamwumva, bateze amatwi kugira ngo ufite ikibazo aze kuba yagitanga, akibaze cyangwa ufite igitekerezo n'inyunganizi abe yayitanga, bose bamwumva, bacecetse.

Abantu benshi bicaye mu cyumba bari mu nama, bicaye ku ntebe zitondekanyije buri imwe inyuma y'indi, bose bacecetse batuje bateze amatwi umuntu ubari imbere uri kubagezaho ijambo.

Abana benshi bahagaze kuri robine, bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo birinde indwara zikwirakwizwa n'umwanda, kugira ngo bakomeze kuba bameze neza, umubiri wabo ufite ubudahangarwa buhagije birinze.

Umwana uhagaze kuri robine wambaye agakabutura k'umutuku n'agashati ari kunywa amazi, ayanywesheje umunwa n'intoki kugira ngo ubuzima akomeze kubwitaho kandi umubiri we ubone amazi ahagije yo gukoresha.

Ahantu hateraniye abajyanama b'ubuzima, bari bahuriye mu nama imwe, bari kubahugura ku bintu byerekeranye n'ubuzima, kugira ngo babashe kujya kwita ku baturage, babafashe mu kubona ubuzima bwiza, babakurikirana mu burwayi bwabo, hari n'abafite ibibazo babashe kubafasha mu buryo buboroheye.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama, bicaye bacecetse batuje bateze amatwi umuntu ubari imbere uri kubagezaho ijambo, mu gihe bari kuganira ku ngingo zerekeranye n'ubuzima kugira ngo ufite ikibazo abe ya kibazo cyangwa utanga igitekerezo cy'inyunganizi, bose babashe kuba bamwumva mu buryo bugororotse.

Umugabo wicaye ahantu hasi ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda yacikaguritse isa nabi, afite amacupa menshi impande ye n'igifuka kirimo imyanda, akeneye kwegerwa akaganirizwa akajyanwa mu bigo byita ku bantu bafite ibyo bibazo byo mu mutwe kugira ngo bamuvure, bamwiteho abashe gusubira mu buzima busanzwe.

Umuganga wicaye ku meza, imbere ye hahagaze umugore waje kwivuza, ari kumubwira ikibazo afite, akandika muri mashini kugira ngo amenye uko amwitaho kandi amuvure abone ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe mu gihe gitoya bitamugoye.

Umuntu wese, aho ari hose n'aho aherereye hose, aba agomba kwita ku bintu by'ingenzi, kwita ku buzima bwe, akita ku buzima bw'inyuma n'ubutagaragara n'imitekerereze kugira ngo akomeze kuba ameze neza, mu buzima bwose ahantu hose.

Abakobwa babiri bicaranye, umwe wambaye imyenda y'imikara n'amarineti ku maso, imbere ye hicaye undi mukobwa wambaye imyenda y'umutuku n'ingofero mu mutwe, bari kugirana inama kugira ngo bakomeze kwita kuri mugenzi we, bose bari bameze neza nta kibazo no mu mitekerereze.

Umupira ufite ibara ry'umweru n'iry'ubururu, umuntu yambara mu gihe muri siporo kugirango umuntu abashe gukora siporo neza, yisanzuye, ntabimuboshye kandi umurekuye, n'amararaso atembera neza mu mubiri.

Kugira ngo umuntu abeho afite umutekano ,atuje mu mutwe no mu mutima ,bimusaba kwita ku buzima bwe akabufata neza agakora siporo ,akarya indyo yuzuye, kandi akirinda gutekereza ibintu bitari ngombwa byinshi.

Umugabo wicaye yihebye, yashyize umutwe mu maboko, imbere ye hicaye umukobwa uri kumuganiriza kugira ngo amufashe ibyo ibibazo afite abyibagirwe, amugire inama, amwiteho bibashe kuba byashira.

Ahantu hateraniye abantu benshi hari abaganga bicaye kumez, bari kugenda bakira umuturage umwe ku wundi kugira ngo babafashe kubona ubuvuzi babegereye kandi bwizewe mu gihe gitoya zitarambiranye.

Umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara ari mu gihe cyo kwibuka abantu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane kugira ngo bakomeze kubunamira.

Kwita ku bana no kwita ku bantu bakuze, ni ingenzi mu gihe cya Covid cumi n'ikenda, kugira ngo bakomeze kubarengera, batume imibiri yabo ikomeza kugira ubudahangarwa, kuba bakatakwa n'icyo cyorezo mu buryo bworoshye.

Abantu bicaye mu rugo bari kuganira harimo abagore batatu n'abagabo babiri, hicaye n'umwana umwe bafite ibiganiro byiza byerekeranye n'ubuzima kugira ngo bose bakomeze kwitanaho, kandi bose bakomezaze kumererwa neza.

Umugore uhagaze, wambaye ibitenge bifite amabara y'umuhondo n'ubururu, ufite ikarita mu ntoki iriho ikimenyetso cyo wibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Umugabo wicaye ku ntebe, yashyize amaboko ku mavi, yubitse umutwe mu biganza, afite ibitekerezo byinshi atari gutekereza neza, akeneye umuntu umwegera kugira ngo amuganirize, abashe kumusubiza mu buzima busanzwe atekereza ibintu bishoboka, bira aho kandi ameze neza.

Ahantu hahagaze abana bambaye imyenda isanzwe harimo abambaye ibirenge bafite utujerirekani bagiye kuvoma amazi, kugira ngo bashyire ababyeyi babo amazi atunganyijwe asa neza biririnde indwara zituruka ku mazi mabi.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba bari mu nama, bari kuganira ku ngingo zerekeranye n'ubuzima, imbere yabo hari umugore uhahagaze, ari kubasobanurira, yifashishije amajwi n'amashusho kugira ngo ibintu byose bisobanuke neza, ku buryo bworoshye.

Umugabo uhagaze mu muhanda, ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda yamucikakurikiyeho, ufite umusatsi n'ubwanwa birimo mwanda, akeneye kwegerwa akaganirizwa akajyanwa mu bigo byita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, bakamufasha bakamuburara, akongera kuba yagaruka kubana n'abantu ameze neza nta kibazo.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, kugira ngo bafashe abarwayi n'iyo umuntu bari kumubaga, bakabikoresha bari kumudoda, kugira ngo umubiri ushobore gusubirana neza, ku buryo bwiza kandi bwizewe mu gihe gito.

Umugore uhagaze, ari guseka afite amenyo asa neza, yarayitayeho kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, kandi kwita ku menyo, ni ikintu cy'ingenzi, uyakorera isuku, uyoza burigihe uko umaze kurya, kugira ngo uyarinde ibintu byayangiza.

Umwana wicaye ku ntebe kwa muganga yegamye umutwe yawushyize hejuru yasamye, imbere ye hahagaze umuganga ufite udukoresho twabugenewe mu kuvura amenyo, ari kumwitaho kugirango mukanwa hakomeza hamezeze neza nta kibazo.

Umugabo uhagaze imbere y'indorerwamo, wambaye lunette z'amaso, wambaye n'umupira w'umweru, yasamye, yatunze agatoki ku menyo asa neza yarayitayeho yarayakoreye isuku kugira ngo akomeze akomeye kandi mu kanwa he hameze neza nta ndwara zirimo.

Igikanka cy'amenyo bifashisha bari gusuzuma umuntu, mu gihe arwaye mu kanwa ngo barebe ikibazo afite bamenye ubuvuzi bamuha n'uko bamwitaho, mu buryo bworoshye bakoresheje imashini zigezweho, bakamunyuza mu cyuma, bakaba babibona mu buryo bwihuse.

Abaganga bahagaze imbere yabo ku meza hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi, bafite igikangahe cy'amenyo, giteretse ku meza bari kukimenyererezaho kuvura amenyo.

Ahantu hateraniye abantu ari benshi, harimo abaganga n'abaturage bari kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi bwo mu kanwa kugira ngo bivuze, abaganga babafashe mu buryo bworoshye kandi hafi yabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo intebe umurwayi yicaraho mu gihe yagiye kwivuza kugira ngo muganga amuhagarare imbere amureba mu maso neza, abe yamufasha amuvure neza bitamugoye.

Umusaza wambaye imyenda y'imikara, ari guhaguruka ku gitanda, iruhande rwe hari umugore n'umugabo bamufashe amaboko iburyo n'ibumoso kugira ngo bamufashe guhaguruka, agende n'amaguru, atituye hasi cyangwa ngo agire ikindi kibazo.

Umusaza wicaye ari gukina igisoro kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza, umutwe utekereza neza kandi n'ubwonko bwungu bwe bumeze neza nta kibazo, ari kubufungura kugira ngo akomeze gutekereza neza.

Umukecuru wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, inyuma ye hahagaze umuganga yamufashe mu bitugu bari kurebana mu maso baganira baseka, ari kumwitaho kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi abayeho neza mu buzima bwe.

Umusaza wicaye mu ntebe bari ahantu mu busitani wambaye agapfukamunwa, imbere ye hari umukobwa w'umuganga wamba agapfukamunwa yamushyize igipimo mu gatuza kugira ngo arebe uko umutima we utera n'uko uhagaze abashe kumenya uko amwitaho n'ubuvuzi yamuha.

Umusaza uhagaze wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara ari kwimenyereza kugenda n'amaguru, ari guca ahantu afashe ku cyuma ku mpande zose iburyo n'ibumoso, iruhande rwe hari umukobwa kufasha kumumenyereza kugira ngo amaguru ye yongere kugarura imbaraga zihagije zo kuba yakigenza nta afasheho.

Umusaza uhagaze uteruye umwana mu ntoki bari gukina bishimye ubona ko bafite ubuzima bwiza biyitayeho kandi imibiri yabo ikomeye kugira ngo bakomeze kuguma bameze neza kandi bita ku buzima bwabo.

Umusaza uri muri siporo wambaye umupira w'amaboko maremare yawuzinze n'ikabutura n'inkweto zifunze n'amasogisi, ari kumwe n'umwana ufite umupira wo gukina mu ntoki, bari guseka bishimye; bari gukorana siporo kugira ngo bose bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku meza, bari gufata ifunguro kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo, bameze neza kandi imibiri yabo ifite imbaraga, bafata ifunguro ryujuje intungamubiri, harimo ibiteraimbaraga, birinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri.

Umusaza wicaye, uri kumwe n'umukecuru, bicaye ku meza bari gufata ifunguro, ryuzuye ririho imboga n'imbuto kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, imibiri yabo ikomeze gukora neza, ifite imbaraga mu buryo buhagije.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku meza bari kuganira, bareba muri telefoni kugira ngo bafate ibinini, babone uko bita ku buzima bwabo bafata imiti ikwiye, itabagiraho ingaruka, mu buryo bwiza.

Umusaza n'umukecuru bicaranye, imbere yabo ku meza hateretse agakarito karimo imiti, n'agacupa karimo imiti, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, bafite urupapuro bari kurusoma kugira ngo bamenye uko iyo miti bayikoresha, ku buryo bumeze neza budafite ingaruka.

Umugabo uri kwamamaza ko urukingo rw'icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyaboneye urukingo, kugira ngo abarukeneye barufate bongere ubudahangarwa bw'umubiri wabo, babashe kukiyirinda kuba cyabataka ngo kibazahaze bakirware.

Ahantu hateraniye abantu benshi, hari abaganga bari kwita ku baturage baje babagana kugira ngo babahe ubuvuzi bwizewe kandi babegereye hafi yabo bitabavunnye basiragira ngo bajye gushaka aho bivuza kure. Kugira ngo bibahede bibasabe n'igihe kinini.

Ikirangantego cy'Ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kwita ku buzima bw'abaturage b'Abanyarwanda kugira ngo babone ubuvuzi ku buryo bwiza, bwizewe kandi bubegereye hafi yabo.

Abantu bateraniye mu cyumba kinini bari mu nama bari kuganira ku ngingo zerekeranye n'ubuzima kugira ngo bafashe abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza, abaturage barwaye bakomeje kubitaho kandi babashe kubona imiti yo kwivuza mu buryo bworoshye.

Gukwirakwiza inama zo kwiyirinda kanseri kuko birashoboka kandi hagashyirwaho n'ingamba zikurikizwa ku muntu ushaka kuyirinda, ukora siporo zihoraho, akibuka kurya indyo yuzuye, kuko ifite akamaro ku buzima bw'umuntu kandi agakomeza kubaho neza.

Umuntu ufite ibimenyetso by'indwara y'icyorezo, agomba kujyanwa kwa muganga, kugira ngo bamwiteho bamukurikirane, ku buryo nibasanga yaranduye, bamushyira ahantu habugenewe, areke kuba yakanduza abandi.

Kugira ngo twese dufashanye kurino si, tugomba kugirana buri umwe nta n'umwe dusize inyuma, yaba umuzu, yaba mwirabura, yaba musaza, yaba umukecuru, yaba umusore, yaba inkumi, cyangwa yaba umwana twese tugafashanya kugira ngo tubashe kubaho neza twita kuri bagenzi bacu.

Abantu bahagaze bafashe imifuka mu ntoki yifashishwa mu kwegeranya imyanda kugira ngo bakomeze kurengera ibidukikije, harimo imifuka ijyamo imyanda ibora bakaba n'ijyamo imyanda itabora kugira ngo babitandukanye mu buryo bwizewe.

Umunsi mpuzamahanga wagenewe kurwanya indwara ya diyabete kugira ngo bashishikarize abantu kuyirinda no kuyisuzumisha kugira ngo bayivuze hakiri kare ku buryo bworoshye kandi babahe ubuzi bugezweho babashe kubakurikirana bitaragera kure ngo barembe.

Abantu babiri bahagaze, harimo umugore n'umugabo bari kwifata ifoto igihe bavuye mu nama, bamaze kuganira ku bintu bitandukanye. Bafashe imyanzuro iyo foto izajya ibafasha kwibuka ibyo baganiriyeho no kubizirikana kandi no kubishyira mu bikorwa mu buryo bworoshye.

Urukingo rwa Covid cumi n'icyenda, ruri muri bimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo zirwanywe kandi tubashe kuyitsinda mu buryo bworoshye kuko uwarufataga rwamwongereraga ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma itakongera kuba yamwataka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kuvura umurwayi, akabona ubufasha bumukwiriye kandi mu gihe nyacyo bitamuvunnye yirirwa asiragira kandi akavurwa neza, hari n'imashini zigezweho n'ibitanda byiza byo kuruhukiraho.

Umuganga ugararanye n'umwana wambayefu z'ishuri afite igikanka cy'amenyo mu ntoki ari ku mwigisha uko bita ku menyo no gukora isuku yo mu kanwa kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza n'amenyo ye akomeze akomeye nta kibazo kirimo.

Icyumba kinini kimwerimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo, harimo ibyuma byo guterura, amagare yo kunyonga, tapi zo kwirukankiraho zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, ibyo byose umuntu akabyifashisha akora siporo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza n'umubiri we ube ufite imbaraga zihagije.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza cy'irimo isuku. kirimo imashini zigezweho zifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwiza kandi bugezweho, kugira ngo umurwayi yaje kwivuza, bamufashe, bamwiteho, bamusuzurane, babone icyibazo afite babone uko bamwitaho, n'ubuvuzi bamuha bugezweho, bitewe n'ibisubizo babonye nyuma yo kumusuzuma.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo isuku, kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwiza kandi bwizewe kugira ngo umurwayi afashwe avurirwa ahantu hatekanye, harimo intebe zo kwicaraho bamwitaho ndetse n'intebe muganga yicaraho mu gihe ari kumufasha kugira ngo bigende neza.

Umwana wicaye ku ntebe, imbere ye hari umuganga yamushyizeho igipimo ku kuboko, bari kumupima ngo barebe uko umuvuduko w'amaraso uhagaze mu mubiri wiwe, nuko agenda kugira ngo babashe kubona ubufasha bamuha, bamwiteho ku buryo bworoshye kandi bigezweho.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo ibikoresho bigezweho haririmo'imashini n'ibitanda bakoresha bakira abarwayi mu gihe baje babagana kugira ngo bavure neza nta kibazo kijemo kandi bameze neza babitayeho mu buryo bushoboka bwose.

Umuganga ufite umwana yamushyize ku munzani, bari ku mupima ngo barebe ibiro bye, barebe n'imyaka afite, babigereranye barebe niba afite imikurire myiza nta kibazo, nibasanga afite ikibazo bamenye uko bamwitaho hakiri kare, kugira ngo akomeze gukura neza mu buryo bwizewe.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho byagenewe gukora siporo harimo ibyuma byo guterura, imigozi yo gusimbuka, amagare yo kunyonga ndetse n'intebe zo kuryamaho mu gihe umuntu ari guterura icyuma kugira ngo kitamugiraho ingaruka kikaba cyamwangiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigezweho, zifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwizewe kandi bwihuse mu gihe kitarambiranye, bakayikoresha iyo mashini, bayicishamo umurwayi, ibyo bita kumucisha mu cyuma, kugira ngo babone ibizamini, bamusuzume barebe idwara afite imbere mu mubiri, babashe kumenya uko bamwitaho, n'ubuvuzi bamuha.

Inyubako zikorerwamo n'ikigo nderabuzima cya Matyazo, zegereye abaturage kugira ngo zibahe ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe, bitabasabye gukora ingendo ndende kandi bubegereye mu buryo bworoshye kandi bwizewe mu gihe gito.

Inzu yubatse neza yubakishijwe amatafari ahiye, ku rubaraza rwayo hateye amarangi y'umuhondo, yagenewe gukorerwamo n'abaganga kugira ngo bayakiriremo ababyeyi babyaye babiteho by'umwihariko kandi bafashe n'abana babo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari kwa muganga, bagiye kwivuza kugira ngo babashe kubona ubuvuzi bwizewe kandi bugezweho mu gihe gito kandi bose bagomba gusubira mu ngo zabo bavuwe, babitayeho mu buryo bwizewe.

Icyumba kinini cyagenewe gukorerwamo siporo, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo, harimo ibyuma byo guterura, amagare yo kunyonga na tapi zo kwirukankiraho zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo umuntu akomeze kwita ku buzima bwe ameze neza nta kibazo.

Inyubako ikorerwamo n'abaganga kugira ngo bakire abaturage n'abarwayi bafite ibibazo by'amaso, babashe kubaha ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe, babakurikirane mu buryo bwose, amaso yabo yongere kumera neza ntakibazo.

Inyubako nziza zubatse ahantu hanini, zifite ubusitani bunini buteyemo ibyatsi n'indabo, zarateganyirijwe gukorerwamo n'ibitaro kugira ngo byite ku barwayi, babashe kubona imiti ku gihe kandi bivuzi neza.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo isuku, kirimo ibikoresho bigezweho byifashisha mu kuvura umurwayi kugira ngo abone ubuvuzi bugezweho, buteye imbere kandi bwizewe mu gihe gito bitamuvunnye, harimo imashini zigezweho n'ibitanda byo kuryamaho, biteguye neza.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza, kirimo imashini zabugenewe kugira ngo zifashishwe mu kuvura abarwayi, babone ubuvuzi bugezweho kandi bwihuse, bitabasabye gutinda cyangwa basiragira ku bitaro byinshi.

Inyubako zubabatse neza, zubakishije amatafari ahiy, ziteye n'amarangi y'umuhondo zikorerwamo n'ikigo nderabuzima cya Shagasha kugira ngo cyakire abaturage baturiye aho hafi babashe kubona ubuvuzi bwiza kandi bugezweho, mu gihe kitarambiranye kandi hafi yabo.

Icyumba cyo kwa muganga giteguwe neza, kirimo isuku, kirimo intebe zifashishwa mu gihe wicazamo uburwayi waje kwivuza akigama, umuganga uri kumuvura akamufasha amureba neza mu maso kugira ngo amwiteho ku buryo bwiza, kandi butamugoye, kandi bwizewe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigezweho bitandukanye, harimo imashini yifashishwa mu gihe berekana umurwayi kugira ngo bamuhe ubuvuzi bugezweho, kandi bwizewe mu gihe gitoya bidasabye igihe kinini ngo bitinde abe yarenga.

Ikigo kinini kirimo inyubako zisa neza zifite isuku, zifite ubusitani bunini zagenewe gukorerwamo kwa muganga n'ibitaro kugira ngo byakire abaturage bibahe ubuvuzi bwiza bubegereye, bitabasabye gukora urugendo rurerure cyangwa ngo basiragire cyangwa hagire urwarira mu rugo.

Inyubako zigeretse zikorerwamo n'ibitaro kugira ngo byakire abaturage, babashe kubona ubuvuzi bugezweho, bwizewe hafi yabo kandi mu gihe gitoya, bitabasabye kuba basiragira bazenguruka bajya gushaka aho bivuza ngo bibatware igihe n'umwanya binini.

Umusaza wicaye ku ntebe, imbere ye hari amagambo, bamushyize igipimo ku kuboko kugira ngo akomeze amusuzume arebe uko umubiri we uhagaze nimba amaraso ari gutembera neza cyangwa afite ikibazo, amenye mufasha amukurikirane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo isuku gisa neza, kirimo imashini zigezweho zifashisha mu gihe bari gusuzuma umurwayi bamupima indwara yaba afite imbere mu mubiri kugira ngo babone ibisubizo bamenye uko bamwiteho n'ubufasha bamuha mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi bari mu nama imbere yabo hahagaze umugabo, iruhande rwe hicaye n'abandi bagabo imbere ku meza abantu bose bacecetse batuje bateze amatwi, bari kumva ibiganiro uwo mugabo ari kubagezaho kugira ufite ikibazo abe yabaza cyangwe utanga inama cyangwe inyunganizi nayo bamwumva ku buryo bushoboka bwose.

Icyumba cyo kwa muganga giteyemo intebe zitondetse ku murongo, aho abarwayi bicara mu gihe bategereje ko babakira, uko bagiye baza bicara ku murongo kugira ngo bahere ku bazindutse bajya ku baje nyuma.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya kanseri, kiha abantu bayirwaye ubuvuzi mu buryo bwiza bwizewe kandi kigafasha no kugira inama n'abandi kugira ngo bayirinde kuko bishoboka.

Icyumba cyo kwa muganga gifite isuku, kirimo amatara ari kwaka, harimo n'imeza n'intebe zo kwicaraho kugira ngo bahakiririre umurwayi mu gihe agiye kwivuza, abashe kubona ubuvuzi bwiza bugezweho nta kibazo afite kandi atuje.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza kirimo isuku, harimo igitanda cyifashishwa mu gihe harimo umurwayi, bakakimuryamishaho kugira ngo babone uko bamwakira atuje kandi atekanye nta kibazo afite.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga kugira ngo babone uko baha abaturage baje babagana ubuvuzi bwiza, bwizewe ku buryo bwose harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha kugira ngo ibyo ngibyo babashe kuba babigeraho.

Inyubako nziza iteye amarangi y'ubururu, zisakajwe amabati y'ubururu, zikorerwamo n'ibitaro kwa muganga kugira ngo bakire abaturage babahe ubuvuzi bugezweho kandi bwizewe hafi yabo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byiza bifite isuku kandi bigezweho kugira ngo bikoreshwe mu gihe bari gufasha umurwayi kumuvura neza, abone ubuvuzi bwizewe kandi bugezweho mu gihe kitarambiranye.

Inzu nkorerwamo n'ikigo nderabuzima harimo icyumba bateganyije kugira ngo abaturage babagannye bajye bahicara mu gihe bategereje ko babakira uko bagiye baza ku murongo, bagende bakira umwe umwe kuri umwe kugira ngo byorohe kandi birinde akavuyo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini zigezweho, zifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi, kugira ngo abone ubuvuzi bugezweho, kandi bwizewe, bitamugoye cyangwa ngo bimusabe gukora urugendo rurerure, cyangwa ngo abe yarembera mu rugo.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza, hariho ibibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo, hariho ibyo kurya, imboga n'imbuto kugira ngo umuntu akomeze gufata ifunguro ryujuje ubuziranenge kandi ryujuje intungamubiri n'amazi yo kunywa kugira ngo akomeze kuba ameze neza.

Umugabo uri muri siporo wambaye ikabutura y'umukara irimo imirongo y'umweru, n'inkweto zifunze n'amasogisi, yambaye umupira w'umukara, ari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo siporo kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo umuntu akore siporo neza, zimufashe kandi zimugirire umumaro.

Umuntu uri muri siporo, uhagaze ku zuba ari kunywa amazi kugira ngo umubiri we uruhuke, ubashe kuba wakongera gutora imbaraga, akomeze gukora siporo ameze neza ntakibazo, umubiri we ufite imbaraga zihagije zo gukomeza.

Umuntu wari uri muri siporo, akaba yicaye agize ikibazo mu kuguru avunitse akeneye kwitabwaho kugira ngo umubiri we ubashe gusubirana imbaraga, ukuguru kwe akuvure akoresheje miti yizewe.

Umugabo uri muri siporo wambaye umupira w'umukara, ufite icupa ry'amazi ari kuyanywa kugira ngo umubiri we uruhuke wongere ugarure imbaraga mu gihe yari ari kuruhuka, abashe kuba yakongera gukora siporo imeze neza nta kibazo.

Imeza itetseho ibintu bitandukanye, byifashishwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, harimo imboga n'imbuto, ifunguro ryuzuye umuntu afata kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza n'ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo n'ibikoresho byo kwa muganga, bakoreshaho bari kuvura umuntu.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kwa muganga bifashisha mu gutanga ubuvuzi bugezweho mu gihe bari gusuzuma umurwayi, bamwitaho kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze bamenye uko bamufasha n'ubuvuzi bamuha mu buryo bwizewe kandi vuba.

Umugabo uri muri siporo, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku n'inkweto zifunze z'umukara, afite umupira wa baro mu ntoki, ari kugenda asimbuka imigozi batambitse hasi, bagiye bashushanya utuzu kugira ngo umubiri we ukomeze kuguma umeze neza, ufite imbaraga.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza, yita ku mubiri we kandi ufite imbaraga, yamara gukora siporo akibuka no kurya indyo yuzuye ifite ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, n'ibyubaka umubiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, hari n'imashini yifashishwa mu gihe bari kuvura umurwayi kugira ngo abone ubuvuzi bugezweho kandi mu buryo bwihuse bitarambiranye.

Igikoresho byo kwa muganga cyifashishwa mu gupima indwara zitabasha kugaragara mu maso harimo mikorobe ndetse n'izindi zigiye zitandukanye ziterwa n'udukoko dutandukanye, icyo gikoresho kikaba cyatubona kugira ngo abaganga bamenye uko batuvura n'ukuntu bita kuri uwo murwayi ufite icyo kibazo.

Umuntu uhagaze mu mbago zifite ubupine bifashisha mu gihe bari kumenyereza umuntu wari urwaye akaguru, karavunitse, cyangwa amaze igihe aryamye ku bitaro atagendesha amaguru kugira ngo ayamenyereze mu buryo bworoshye abe yasubirana ubuzima bwiza .

Umugabo uri muri sport wambaye umupira w'umukara ufite icupa ry'amazi muntoki, ufite agasumi ku rutugu ari kunywa amazi mugihe yararimo aruhuka kugira ngo umubiri ugarure imbaraga abashe kuba yakomeza gukora siporo neza nta kibazo.

Umugabo uri mu cyumba yarambuye tapi hasi, ari gukora siporo apfukamye, umutwe yawunamishije imbere, yarambuye n'amaboko ari kwigorora umugongo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kandi umubiri we ukomeze ukomeye, ufite imbaraga.

Umugore wicaye uri muri siporo, wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umutuku n'inkweto zifunze, zifite amabara atukura n'umweru, yarambuye akaguru kamwe akandi yagahinnye, yafatishije ukuboko ku mano kugira ngo akomeze kwigorora, ubuzima bwe bugende bumeze neza kandi bufite imbaraga z'umubiri zihagije.

Umugabo uhagaze uri gukora siporo, wambaye umupira w'ubururu, afite ekuteri mu bitugu mu ijosi ari kunywa amazi, urebye yari arimo aruhuka kugira ngo umubiri we wongere utore imbaraga, abashe kuba yakomeza gukora siporo neza nta kibazo.

Umugabo ugize ikibazo mu gihe yari ari muri siporo, ahagaze mu nzira yashyize amaboko mu mavi yunamye ari kwikanda, mu gihe avunitse kugira ngo amagufwa ye asubire mu mwanya kandi uburibwe burimo bugabanuke, abashe no kwirinda kuba yaza kubyimbirwa.

Umugore uryamye hasi kuri tapi ,ari gukora siporo, amaboko yayashyize hasi, yazamuye umutwe hejuru, n'agatuza kugira ngo agorore umugongo, akomeze amere neza, kandi umubiri we ufite imbaraga ntakibazo.

Imashini igezweho yifashishwa mu buvuzi kugira ngo bayikoreshe bita ku murwayi abashe kuvurwa akire mu gihe gito kandi kitarambiranye buryo bwizewe bakaba bamufasha agakira neza.

Umuntu uryamye ku gitanda wambaye ikabutura y'umukara, yarambuye ukuguru kumwe, ukundi yaguhinnye, imbere hahagaze umuganga uri kumwitaho, afite ipamba mu ntoki ari kumukanda mu ivi ahantu havunitse, mu gihe yari ari muri siporo kugira ngo abashe gusubirana neza amagufwa kandi akire vuba.

Umugabo uri muri siporo wambaye ipantaro y'umukara irimo ibara ry'umweru ku ruhande n'inkweto zifunze z'umukara n'umupira w'umukara asutamye, kugira ngo umubiri we ukomeze kumera neza, imbere ye hari umugore uri kumufasha amwereka uko azikora.

Agasanduku kifashishwa mu gushyiramo imiti n'ibikoresho bakoresha mu gihe bari gutanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe hari umuntu ukoze impanuka cyangwa urwaye akaba yafashwa mbere y'uko agezwa kwa muganga cyangwa ku bitaro.

Ibikapu bifite amabara atukura, byifashishwa mu gutwaramo ibikoresho by'ibanze, n'imiti, yifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze ,mu gihe hari umuntu ugize ikibazo akomeretse cyangwa akoze impanuka, akaba yakwitabwaho mbere y'uko agezwa kwa muganga, cyangwa ku bitaro.

Umugore wicaye hasi uri muri siporo, wambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara, wambaye n'inkweto zifunze z'umweru, afite telefone ku kuboko yambaye na ekuteri mu matwi, yarambuye ukuguru kumwe akundi aguhinnye, ari kwirambura yigorora kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza, umubiri we ufite imbaraga zihagije.

Abantu bateraniye ahantu hamwe ari benshi, bari guhabwa amahugurwa, yerekeranye no gutanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe hari umuntu ugize ikibazo akavunika cyangwa agakomereka, ukaba wamufasha mbere y'uko agezwa kwa muganga, ameze neza.

Umubyeyi wicaye ku ntebe utereruye umwana mu ntok, imbere ye hari umuganga ufite imashini ziteretse ku meza, ari kuzifashisha asuzuma uwo mwana mu maso kugira ngo amenye ikibazo afite amenye uko amwitaho n'uko amukurikirana mu buryo bworoshye.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku ,cyifashishwa mu gutwara ibikoresho by'ibanze, n'imiti y'ibanze ikoreshwa mu gihe bari gutanga ubutabazi, bwihuse ku muntu ugize ikibazo cyangwa akoze impanuka, kugira ngo yitabweho mbere y'uko agezwa kwa muganga cyangwaku bitaro.

Umugore urikora siporo wambaye isengeri, ahagaze ari kwinanura, ukuboko kumwe yagufatishije mu bitugu, ukundi yagufatishije ukundi mu nkokora kugira ngo akomeze gukora siporo neza nta kimubangamiye kandi yisanzuye mu buryo bworoshye bikamufasha.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo uwo muntu agire ubuzima bwiza, harimo ibikoresho umuntu akoresha ari muri siporo, kugira ngo umubiri we ukomeze ufite imbaraga kandi ukora neza, hakaba n'ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa igihe muganga ari gupima ubuzima bw'umuntu ngo arebe uko buhagaze.

Abagabo babiri bahagaze bari kumwe mu kibuga, bari muri siporo, umwe yambaye ga ku kuboko, undi ari kumufasha kuyifunga neza, kugira akomeze kwirinda impanuka zaboneka, mu gihe umuntu ari muri siporo zikaba zamwangiza ubuzima, bikamuturikiraho ubumuga.

Umugore wicaye ku gitanda, ufite agatambaro mu ntoki kifashishwa bari gukanda ahantu hagize ikibazo, kugira ngo aho yavunitse habashe kubyimbuka kandi n'uburibwe burimo bugabanuke yirinde ko haba n'ikindi kibazo giturutse kutahitaho.

Umugore uri muri siporo wambaye ipantaro y'ubururu n'isengeri y'icyatsi kibisi, wambaye n'inkweto zifunze, yahinnye ukuguru kumwe yagufatishije ukuboko, ari kwigorora kugira ngo amagufwa ye akomeze akura neza kandi umubiri we ufite imbaraga nta kibazo.

Umuntu wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, ari gukora siporo. Imbere ye hari umuganga uri kumufasha kumenyereza amaboko n'umubiri, kugira ngo yongere kugarura imbaraga, zo kubasha kuba yaterura ikintu kiremereye, kandi akomeze kuba ameze neza, yishoboye, ashobora gukora ibintu byose.

Mu gihe umuntu ari gukora siporo, aba agomba kurya indyo yuzuye kugira ngo umubiri we ukomeze ukomeye kandi ufite imbaraga, bimuhe ubushobozi bwo kuba yakomeza kuzikora kandi yirinda indwara zaturuka ku mubyibuho ukabije n'izindi zituruka mu kudakora siporo zihagije.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi nko mu gihe hari umuntu wagize ikibazo cyo kubura urugingo, bakaba bamuha insimburamubiri ikorana n'urwo rugingo yabuze kugira ngo abashe gukomeza gukora neza nta kibazo.

Igikoresho bifashisha mu gihe bari kuvura umuntu wavunitse ukuguru, bakaguhambiraho kugira ngo igufwa ribashe gusubira mu mwanya waryo, mu gihe cyihuse kandi vuba, kugira ngo bitazaturukamo ubundi burwayi.

Umukinnyi uri mu ikibuga apfukamye hasi yunamye, akoreye impanuka muri siporo, iruhande rwe hari hahagaze abaganga bari kumufasha bamwitaho kumuha ubutabazi bw'ibanze, mbere y'uko agezwa kwa mu ganga.

Amacupa arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara igihe umuntu ari muri siporo agakomereka cyangwa akavunika bakaba bayifashisha, bakayikoresha kugira ngo bamugabanyirize uburibwe ahantu yagize ikibazo ku buryo bwizewe.

Umugabo uri mu cyumba ari gukora siporo, apfukamye kuri tapi, yubitse umutwe amaboko yayashyize imbere, ari kugorora umugongo kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza, kandi umubiri we ukomeze ukore nta kibazo, mu buryo bworoshye kandi bwizewe, mu gihe yiyitayeho agafata intungamubiri zuzuye, mu ifunguro afata harimo ibitera imbaraga, ibiririnda indwara, n'ibyubaka umubiri.

Umugore uhagaze ku mazi ari muri siporo, wambaye ipantaro y'umukara n'isengeri y'umweru, yazamuye amaboko hejuru, ari kwigorora kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza kandi n'umubiri we ukomeze ufite imbaraga.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugira ngo umuntu akomeze agire ubuzima bwiza, harimo ibyo kurya n'ibikoresho bikoreshwa mu gihe umuntu ari muri siporo n'ibyuma byo guterura kandi ugafata ifunguro rihagije nyuma yo gukora siporo, harimo imboga n'imbuto.

Umuganga wicaye imbere y'imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, n'ibyo kurya harimo imbuto kugira ngo umuntu akomeze agire ubuzima bwiza arya indyo yuzuye ifite intungamubiri, harimo n'ibyuma byifashishwa umuntu ari guterura kugira ngo umubiri we ukomeze ukomere kandi umere neza.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byafashwe neza, bikegeranywa, bigatunganywa kugira ngo byifashishe mu kuvura indwara zitandukanye, mu buryo bwizewe kandi byujuje ubuziranenge.

Imeza iteretseho amacupa atandukanye, arimo imiti yifashishwa mu kuvura mu gihe yatunganyijwe neza, ikaba yujuje ubuziranenge, ikaba yakoreshwa ku buzima bw'umuntu, nta ngaruka mbi ifite ku buryo yagira ikibazo ku mubiri.

Imeza irambuyeho umusambi iriho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, hari amacupa n'ibibabi n'imbuto byifashishwa kugira ngo batunganye iyo miti ibashe kuba yakoreshwa mu buryo bwizewe kandi ifite ubuziranenge.

Ameza ateretseho amacupa atandukanye, arimo imiti yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kandi kuri buri cupa hagiye hometseho icyapa cyanditse izina ry'umuti n'uko ukoreshwa, kugira ngo uwuguze agiye kuwifashisha, abashe kuwukoresha neza bitamugiraho ingaruka.

Umuringa uteye mo ibyatsi byifashishwa gukora imiti itandukanye na gakondo mu gihe byasuromwe neza bigatunganyirizwa ahantu habugenewe hujuje ubuziranenge bikaba byavanwamo imiti yo kuvura indwara zitandukanye kandi yizewe ku buryo umuntu yayikoresha nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu.

Imeza iteretseho amacupa atandukanye, afite amabara adasa kandi kuri buri cupa, hagiye handitseho icyapa kigaragaza umuti urimo izina ryawo, ni uko ukoreshwa kugira ngo ugiye kuwugura cyangwa uwo muganga yadikiye, abashe kuba yawukoresha neza, nta ngaruka byamutera.

Ku meza iteretseho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, hariho imbuto, amashami y'ibiti n'amababi, kugira ngo bitunganwe neza, bikurwemo imiti ivura indwara zitandukanye, kandi yujuje ubuziranenge, kuko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu.

Akabati gatetse ahantu mu byatsi karimo imiti bari kugurisha yatunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo ibe yavura indwara zitandukanye mu buryo bwizewe kandi ifite ubuziranenge byemejwe n'ikigo cy'igihugu ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wawukoresha.

Igikarito giteretse ahantu, kirimo amajyane yatunganyijwe kugira ngo akoreshwe avura indwara zitandukanye, mu gihe yateguwe neza kandi afite ubuziranenge ku buryo nta ngaruka mbi afite ku buzima bw'umuntu.

Imeza iteretseho amacupa atandukanye, afite amabara y'umweru n'ay'ikigina, arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, mu gihe yateguwe neza, agashyirwa mu bikoresho byabugenewe, kugira ngo ivure indwara zitandukanye kandi yizewe.

Umuntu wicaye imbere y'imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo, mu gihe byakozwe n'umuntu ubifitiye uburenganzira kandi ubifitiye ubushobozi ku buryo byatunganywa hakavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye. Kandi yizewe ifite ubuziranenge ku buryo yakoreshwa n'umuntu ntimugireho ingaruka mbi ku buzima.

Imeza iteretseho amacupa atandukanye arimo imiti ya gakondo, yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo ibe yavura indwara zitandukanye kandi mu gihe gitandukanye yizewe, ifite ubuziranenge buhagije.

Umurima uteyemo ibiti bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byasaruwe neza, amababi yabyo n'amashami yabyo agatunganywa akaba yavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye, kandi yizewe ku buryo umuntu yayikoresha nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu.

Ku meza iteretseho amacupa atandukanye, arimo imiti yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo ibashe kuba yavura indwara zitandukanye mu gihe hemejwe ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu wayikoresha.

Umuririma uteyemo ibimera, harimo ibiti n'ibyatsi, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byasaruwe neza, bigatunganywa mu buryo bwizewe bwujuje ubuziranenge, bikaba byakorwamo imiti itandukanye, ivura indwara.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo tangawizi, indimu n'igikombe mu gihe byatunganyijwe neza, bikaba byakorwamo umuti uvura indwara zitandukanye mu buryo bworoshye.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutunganya imiti ya gakondo, harimo ibibabi n'imbuto n'amacupa akoreshwa mu kubika iyo miti mu buryo bworoshye kandi bwizewe nta kibazo, nta ngaruka ifite ku buzima bw'umuntu.

Ikimera giteye mu murima, gifite amababi y'icyatsi kibisi n'indabyo z'umutuku, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganijwe neza, ku buryo bwizewe, bikaba byavura indwara zitandukanye kandi neza.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye harimo ibibabi n'imbuto byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byatunganyijwe neza n'umuntu ubifitiye uburenganzira, akayibika mu bikoresho byujuje ubuziranenge ikaba yakoreshwa n'umuntu yivura nta ngaruka ifite ku buzima bw'umuntu.

Amacupa arimo imiti itunganyijwe neza, yateguwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo yitabweho, ibe yakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, yujuje ubuziranenge kandi yizewe, nta ingaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu.

Ahantu mu ishyamba, harimo ibiti bitandukanye, harimo ibyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe amababi yabyo cyangwa amashami yabyo asaruwe neza agatunganywa, agashyirwa mu bikoresho byabugenewe, akaba yavanwa mo imiti ivura indwara zitandukanye.

Umuntu uhagaze ufite agapapuro mu ntoki karimo imiti yatunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo ivure indwara zitandukanye ku buryo bwizewe, kandi ifite ubuziranenge kuko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu.

Abantu bateraniye ahantu bari kugurisha imiti iri mu macupa agiye atandukanye ateretse ku meza, yateguye hifashishijwe ibikoresho bya gakondo kugira ngo ibe yatunganywa neza, ikaba yavura indwara zitandukanye, yujuje ubuziranenge kandi yizewe ku buryo buhagije.

Abantu bahagaze mu murima uteyemo ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byatunganyijwe neza, bigashyirwa mu bikoresho byujuje ubuziranenge, iyo miti ikaba yakoreshwa ku buryo bwizewe kuko ntangaruka ifite ku buzima bw'umuntu umwe.

Ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, harimo ibibabi by'ibiti n'amashami yabyo, n'imbuto mu gihe byasoromwe neza, bigatunganywa mu buryo bwemewe, kandi bwujuje ubuziranenge, bikaba byavanwamo imiti, ivura indwara zitandukanye.

Akabati gateretsemo amacupa atandukanye, agiye arimo imiti ya gakondo, yatunganishijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, kugira ngo havanwemo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yujuje ubuziranenge yizewe.

Umurima uteye nibiti n'imbuto byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo mu gihe byasaruwe neza, amababi yabyo n'amashami yabyo n'imbuto zabyo zikaba zatunganywa mu buryo bwizewe, zikavanwamo imiti ivura indwara zitandukanye kandi yujuje ubuziranenge.

Imeza iteretseho ibikoresho bitandukanye, biteyemo ibiti, bifite amababi y'icyatsi kibisi n'ibifite indabyo z'umuhondo, byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, mu gihe byatunganyijwe neza bigashyirwa mu bikoresho byabugenewe byujuje ubuziranenge.

Imeza iteretseho amacupa arimo imiti, yatunganyijwe hifashishijwe ibikoresho bya gakondo, harimo ibibabi n'indabyo z'ibimera kugira ngo ivure indwara zitandukanye, yujuje ubuziranenge kandi yizewe ko nta ngaruka mbi ifite ku buzima bw'umuntu.